Iki ni icyapa kiriho igishushanyo k'imodoka, iri mu ibara risa umweru, iki cyapa kikaba kinanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa gishushanyijeho umutaka munini w'ubururu ndetse kikaba gishushanyijeho n'inzu, hasi hakaba hagiye handitseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Iki cyangwa se iyi ni inzira iri kugenda inyuramo abantu batandukanye, iyi nzira ikikijwe n'amazu y'ubucuruzi ndetse n'ibyapa byiganjemo iby'ubururu n'ibindi bitandukanye.

Ibi ni ibiganza bibiri biri gusuhuzanya, hejuru no hasi ya bino biganza, hakaba hagiye handitse amagambo atandukanye, ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Iki ni icyapa kinini gishushanyijeho cyangwa se kiriho amafoto y'abagabo babiri bambaye amakote. Iki cyapa cyanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Iki ni icyapa kiriho ishusho y'umugabo n'umugore bateruye akana kabo, impande yabo hakaba handitseho amagambo agiye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara n'ubururu.

Iki n'icyapa kinini gisa umweru, kiriho ifoto y'umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, iki cyapa kandi kikaba cyanditseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'ubururu.

Uru ni urupapuro rusa umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye, biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Uru ni urupapuro rusa ubururu n'umweru uru rupapuro, rukaba rugiye rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara, ubururu ndetse n'umweru.

Iki nicyumba gifite inkuta z'umweru kigiye kirimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibikapu biri mabara y'icyatsi, umuhondo, umutuku, ubururu n'umweru.

Iki ni icyumba gifite inkuta zisa umweru zigiye ziriho imitako igiye itandukanye, imyinshi yiganjemo ikozwe mu mbaho, ndetse hakaba harimo n'indi n'imyenda ndetse n'imisego.

Iyi ni inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Ibyo bikoresho byiganjemo imyambaro iri mu mabara atandukanye, iyi nyubako kandi irimo n'umugore hirya wicaye imbere ye hari ameza y'umweru ariho mudasobwa.

Uyu ni umugore wambaye ikote n'umupira akaba ari mu nzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, uyu mugore kandi akaba ari gukoresha mudasobwa imbere ye.

Biri ni inzu y'ubucuruzi, ifite umuryango usa umweru, ikaba iyi nzu iriho ibyapa bitandukanye biri mu mabara y'ubururu,,,

Uyu ni umugore wambaye indorerwamo z'amaso, ishati y'umweru, akaba yegeranye n'umugabo wambaye umupira urimo umutuku n'umukara, imbere yabo hakaba hari insakazamashusho bari gukoresha.

Iyi ni imitako yo mu ijosi igiye itandukanye, imanitse ku kintu gisa umukara, kandi hirya hakaba hari urukuta rw'umweru narwo ruriho imitako itandukanye.

Iyi ni imodoka iri mu ibara ry'umukara, iyi modoka ikaba ihagaze ahantu hashushanyije hasi imirongo isa umuhondo, inyuma y'iyi modoka hakaba hateye ibiti birebire bisa icyatsi.

Iyi ni imodoka iri mu ibara ry'umweru n'umukara, ikaba ihagaze mu cyumba kirimo amakaro hasi asa umweru ndetse iki cyumba kikaba kirimo n'intebe hirya y'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze mu cyumba kirimo amamodoka agiye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Aba ni abagabo batatu bahagaze mu biganza byabo bakaba bafitemo icyapa kiri mu ibara ry'umweru, kigiye cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'umukara, inyuma yabo hakaba hari imodoka nini y'umweru ihahagaze.

Aba ni bagabo babiri. Abagabo bakaba mu biganza byabo bafitemo icyapa kinini cy'umweru, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umweru.

Aba ni abantu batandukanye, bafite icyapa mu ntoki zabo, icyapa cy'umweru, cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku. Inyuma yabo hakaba hari imodoka ihahagaze.

Iki ni icyumba kirimo urukuta rusa umweru, iki cyumba kikaba kiriho n'urugi rukozwe mu mbaho ndetse kikaba kirimo n'amezi atetseho ibikoresho by'ikoranabuhanga, byiganjemo mudasobwa n'ibindi.

Iyi ni inoti y'amafaranga yanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru n'umukara. Iyi noti kandi ishushanyijeho n'ibishushanyo by'inyamaswa ndetse n'iby'umubyeyi uhetse umwana.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibirahure birimo amata.

Uyu ni umugore wambaye ikanzu itukura, akaba yateretse igikapu ku meza ndetse n'akabido. Imbere ye muri kino cyumba, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo nk'intebe ndetse n'ibindi byapa.

Iki ni cyumba kirimo amakaro hasi asa umweru, kikaba kirimo umuntu wambaye umupira w'umweru, ikabutura n'inkweto, kikaba kirimo n'ibyuma byifashishwa mu kubika amata.

Uyu ni umuntu wambaye umupira usa umukara, n'ipantaro isa ubururu. Uyu muntu akaba afite mu kiganza cye icyuma kinini kirimo amata, akaba ari kuyasukamo ahandi.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara, umweru ndetse n'ubururu.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo n'imibare bitandukanye, ibi byose bikaba biri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Uru ni urupapuro rusa umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, byiganje mu mabara y'umukara.

Uru ni urupapuro rusa umweru, rukaba rwanditseho imibare igiye itandukanye ndetse n'amagambo agiye atandukanye, ibi byose kandi byanditswe mu ibara risa umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye byiganje mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku.

Ururu ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye biri mu mabara y'umukara. Urupapuro runashushanyijeho ikirangantego cya Repubulika y' u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye biri mu mabara y'umukara, uru rupapuro ruriho n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, bikaba byose biri mu mabara y'umukara, urupapuro ruriho n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rukaba rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye, bigiye byiganje mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare biri mu mabara y'umukara. Uru rupapuro runashushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda.

Izi ni inoti nyinshi z'amafaranga zigiye zanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, kuri zino noti hariho n'ibendera ry'umuryango wunze ubumwe w'abanyaburayi.

Ibi ni ibiganza bibiri by'umuntu, ikiganza kimwe kikaba kiri gukora kuri mudasobwa, naho ikindi kiganza kikaba kiri gushyira inoti mu kamashini kifashishwa mu kuzibara.

Iyi ni inoti y'amafaranga yanditseho imibare ndetse iriho n'inshushanyo cyangwa se igishushanyo cy'umugabo, iyi note kandi hejuru hakaba hariho ibiceri byinshi bigiye bitandukanye.

Izi ni inoti z'amafaranga zishashe, hakaba hariho n'ibiceri byinshi bigiye bitandukanye, hirya hakaba hari icyuma cyifashishwa mu guteranya umubare w'amafaranga.

Uru ni urupapuro rusa umuhondo rukaba rugiye rwanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, ibi bikaba biri mu mabara y'umukara, icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba hariho n'amabendera y'ibihugu bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuntu wambaye indorerwamo z'amaso ndetse akambara n'umupira usa icyatsi, akaba mu kiganza cye afitemo inoti nyinshi z'amafaranga.

Izi ni inoti nyinshi z'amafaranga zigiye zitandukanye, izi noti zikaba ziriho ibishushanyo bigiye bitandukanye ndetse zikaba ziriho n'imibare igiye itandukanye ndetse zikaba ziri no mu mabara agiye atandukanye.

Izi ni inote nyinshi z'amafaranga, ziriho igishushanyo cy'umugabo ufite imisatsi miremire, izi note zigiye zanditseho amagambo atandukanye, agiye ari mu mabara y'umukara, umweru n'icyatsi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye. Ibi byapa bigiye byanditseho amagambo agiye yiganje mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Iyi ni inyubako iriho ibyapa bigiye bitandukanye, aha twavuga nk'icyapa kirimo ibara ry'umuhondo, n'icyapa cy'umutuku, ibi byapa byose bikaba bigiye byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, irimo umuntu wicaye mu cyumba kimwe ndetse iyi nzu ikaba iriho ibyapa bigiye bitandukanye, bisa ubururu n'umutuku, byanditseho amagambo agiye atandukanye.

Iri ni iduka ry'ubucuruzi, iri duka rikaba ririho ibyapa bigiye bitandukanye, byanditseho amagambo agiye ari mu mabara atandukanye yiganjemo ay'ubururu ndetse n'umweru.

Iyi ni inyubako iriho ibyapa biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara. Iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo na yo ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye umupira n'ipantaro by'umukara uhetse igikapu, imbere ye hakaba hari inzu iriho idirishya risa umweru, iriho ibyapa byinshi bitandukanye.

Izi ni intebe zikozwe mu mbaho, izi ntebe zikaba zifite n'ameza yazo akozwe mu mbaho, zikaba zegeranye n'urukuta rurerure rusa umweru ndetse zikaba ziteretse hasi hari ibitaka.

Uyu ni umuhanda w'amabuye, uyu muhanda ukaba urimo ibinyabiziga byiganjemo amamoto, hirya uyu muhanda ukaba ukikijwe n'amazu agiye atandukanye.

Izi ni intebe ziri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara. Izi ntebe kandi zikaba zifite n'ameza yazo nayo asa umukara. Izi ntebe kandi zikikijwe n'imbuga nini irimo ikigega cy'amazi n'ibindi.

Izi ni intebe ziri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, izi ntebe zikaba zifite n'ameza yazo akozwe mu mbaho. Ibi byose bikaba biteye cyangwa se biri mu busitani.

Iyi ni inyubako iriho ingazi zisa umukara n'umweru inyubako kandi ifite inkuta zisa umweru kandi iyi nyubako irimo icyuma gitukura cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Uru ni urupapuro rusa umukara, ruriho igishushanyo cy'inyubako ndende ndetse rukaba runanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umuhondo.

Iyi ni inyubako ndende isa umweru, ku ruhande hari intebe zigiye zitandukanye ndetse ziteyeho n'imitaka, hari n'ahantu harimo amazi aho abantu bogera.

Iki ni icyumba kirimo amatara menshi cyane asa umweru. Iki cyumba kirimo n'inkuta zigiye zitandukanye zisa umuhondo, ndetse kirimo no hasi amakaro asa umweru n'umukara, n'intebe zitandukanye kandi kirimo n'umuntu nawe uhagaze.

Iyi ni inyubako ifite inzugi ndetse n'amadirishya bisa umukara, bikaba biriho ibyapa byinshi izo nzugi n'amadirishya, ibyo byapa bikaba byandintse mu mabara asa umweru ndetse n'umuhondo, hejuru naho hakaba hari icyapa gisa umweru.

Iki ni icyumba kirimo inkuta zisa umweru, iki cyumba kandi kikaba gifite urugi rukozwe mu rubaho ndetse kikaba kirimo n'ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Iyi ni inyubako ndende ifite imiryango y'umweru. Inyubako kandi iriho n'ibyapa byinshi bigiye bitandukanye biri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umukara.

Aba ni abagabo batatu, biganjemo uwambaye ishati y'umweru, n'undi wambaye ikoti ry'umukara, n'undi wambaye umupira utukura. Bakaba bari kuganira imbere y'ameza asa umweru n'icyatsi.

Iki ni icyumba gifite inkuta zisa umweru, iki cyumba kikaba kirimo intebe z'umukara n'ameza y'umukara n'umweru, agiye ariho mudasobwa.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bahagaze imbere y'ameza asa umweru n'ubururu, aya meza akaba ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Iki ni icyumba, gifite inkuta zisa umweru, ziriho imitako y'umukara n'umweru, iki cyumba kirimo n'intebe kandi zisa umukara n'ameza, agiye ateretseho ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa.

Iyi ni inyubako iriho icyapa kirimo mu mabara y'icyatsi n'ubururu, iki cyapa kikaba cyanyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru kandi inyubako imbere yayo hakaba hari igiti kirekire.

Aba n'abantu benshi batandukanye bahagaze mu nyubako, iyi nyubako ikaba ariho icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu'ibara ry'umukara.

Uyu ni umugore wambaye ikanzu y'umukara, mu kiganza cye akaba afite mudasobwa, impande ye no hejuru hakaba handitse amagambo agiye ari mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Uyu ni umukobwa witeze igitambaro, akaba imbere ye hari ibicuruzwa bitandukanye. Hirya ye hakaba hagiye handitse amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umuhondo, umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru, urupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara ndetse n'umweru n'icyatsi.

Uru ni urupapuro rw'ubururu rugiye rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru rugiye rwanditseho amagambo ndetse ruriho n'ibishushanyo bigiye bitandukanye, aya magambo yanditse kuri runo rupapuro igiye ari mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse n'ubururu.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bari mu isoko, iri soko rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo imyenda.

Iri ni isoko ririmo abaguzi ndetse n'abacuruzi. Iri soko kandi rikaba ryiganjemo ibicuruzwa birimo n'igitoki ndetse n'ibindi.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse akambara n'ipantaro y'umukara irimo imirongo y'umweru, akaba yicaye; hejuru ye hakaba hari ibicuruzwa byiganjemo imitako ndetse n'ibindi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari kunyuranamo mu isoko, iri soko rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo imyenda ndetse hakaba hanarimo imitaka igiye iri mu mabara atandukanye na yo.

Aba ni abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira urimo ubururu n'umweru ndetse n'ijire isa umuhondo, bakaba bari kuganira, banafite terefone mu ntoki zabo.

Uyu ni umugabo wambaye ikote ry'umukara, akaba yicaye kuri moto, akaba afite ku gutwi kwe telefoni, hirya ye hakaba hari umugore wambaye umupira w'umuhondo na we ari gukoresha telefone.

Aba ni abantu batandukanye, biganjemo abambaye umupira y'imihondo ndetse n'undi umwe wambaye umupira w'umweru, iyi mipira ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Bakaba bahagaze imbere y'inzu na yo isize ibara ry'umuhondo.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umuhondo, akaba afite na terefone mu ntoki ze; hirya hakaba hari undi mugabo nawe wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu, mu ntoki ze akaba afitemo igare.

Aba ni abantu batandukanye, bamwe bari gukorana mu kiganza, inyuma yabo hakaba hari akazu gatoya, kari mu ibara ry'umutuku, kanditseho amagambo, ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo.

Uyu ni umugore wambaye umupira usa umuhondo, wanditseho amagambo agiye ari mumabara y'ubururu ndetse n'umukara, akaba ahagaze ahantu hagiye hari amasafuriya ameza ndetse n'intebe bitandukanye.

Iki ni icyapa kiriho abagore batatu, iki cyapa kandi hirya hakaba hagiye handitseho amagambo atandukanye, ari mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara n'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'icyatsi n'umupira w'umukara, imbere ye hakaba hari ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa moto, arimo arakuramo ikarito isa umweru.

Uru ni urupapuro rw'ubururu, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umweru ndetse n'andi ari mu mabara y'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru, rugiye ruriho amagambo agiye atandukanye ndetse n'ibishushanyo bigiye bitandukanye. Aya magambo yanditseho akaba ari mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyumba kirimo inkuta zisa umweru, iki cyumba kandi kigiye kirimo ameza ateretseho imbuto z'amoko atandukanye ndetse n'utubati tugiye turi mu mabara atandukanye.

Iki ni icyumba gifite urukuta rusa umweru. Iki cyumba kirimo n'insakazamashusho ndetse n'intebe na yo iri mu ibara ry'umweru ndetse n'imeza ikozwe mu kirahure.

Iyi ni inyubako ndende iriho amadirishya n'inzugi ndetse iyi nyubako ikaba ifite imbuga nini, irimo imodoka y'umutuku ndetse iyi mbuga ikaba iteyemo n'ibiti.

Uyu ni umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, akaba ari mu cyumba gifite inkuta z'umweru no hasi hasa umweru ndetse n'urugi rusa umukara.

Iki ni icyumba gifite idirishya ry'umukara ndetse kikaba kirimo n'igitanda kinini gisasheho uburiri busa umweru. Iki cyumba kandi kirimo n'inzitiramibu.

Iki ni icyumba gifite inkuta zisa umweru, iki cyumba kikaba kirimo n'akabati gakozwe mu mbaho, ndetse hakaba harimo n'ahandi hantu bogereza ibintu bitandukanye, hasa umukara.

Iyi ni inyubako ifite inkuta z'umweru ndetse ikaba ifite n'amadirishya asa umukara. Iyi nyubako ikaba hanze ifite imbuga nini ndetse ku rugi ikaba iteyeho uduti duto duto.

Iyi ni inzu ifite imbuga nini ndetse ikagira n'ubusitani, iyi nzu kandi isize ibara ry'ubururu, ikaba ifite n'igisenge gisa umutuku.

Iyi ni inyubako ifite imbuga nini, iyo mbuga ikaba igiye iteyemo uduti duto dutoya ndetse iyi nyubako ikaba na yo isize amabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Iyi ni inzu ifite igisenge cy'umutuku ndetse ikagira inkuta zisa umweru, ikaba ifite amadirishya asa umukara, iyi inzu kandi mu imbere harimo imodoka y'umweru ihahagaze.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze mu mbuga nini, imbere y'inzu isize amabara y'umutuku, icyatsi ndetse n'umweru.

Iyi ni inyubako ifite imbuga nini hanze. Aha hanze, hakaba hateretse n'injerekani ndetse iyi nzu ikaba isize amabara yiganjemo iry'umweru, umuhondo n'umukara.

Iki ni icyumba bakoreramo imyitozo ngororamubiri. Iki cyumba kikaba gifite inkuta zisa umweru, ndetse kikaba gifite no hasi hasi umukara. Kikaba kigiye kirimo ibyuma bigiye bitandukanye no gukoresha muri siporo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abaguzi ndetse n'abacuruzi, iyi nzu ikaba yiganjemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo imyenda.

Uyu ni umugore wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara. Akaba ari mu cyumba kigiye kirimo utubati turimo ibikoresho bitandukanye. Aha twavuga nka mudasobwa n'ibindi.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye ndetse iki cyumba kikaba gifite hasi hacyo hari amakaro asa umweru; iki cyumba kandi cyiganjemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iki ni icyumba kigiye kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo amatara ndetse n'indabyo zigiye zitandukanye n'ibindi.

Iki ni icyumba kirimo insakazamashusho ku rukuta ndetse ku rukuta hakaba hariho n'icyapa cy'umuhondo, hakaba hariho n'ameza na yo ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanye, iyi nzu ikaba irimo ibicuruzwa byiganjemo imyenda ndetse n'amasakoshi.

Iki ni icyumba kirimo umuntu cyangwa se umwana wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura cyangwa se ijipo, iki cyumba kikaba kirimo utubati tugiye dutandukanye turimo ibikoresho byinshi.

Uyu ni umugabo uri mu cyumba mu imbere, imbere ye hakaba hagiye hari hari ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, Hakaba hari undi muntu uri inyuma y'idirishya uri kuvugana nawe.

Uyu ni umugabo wambaye ikote n'ishati impande ye hakaba no hasi, hakaba handitse amagambo agiye ari mu mabara y'mweru ndetse n'ubururu n'icyatsi.

Iki ni icyumba cy'ubucuruzi gifite hasi hasa umweru, kikaba kirimo utubati tureture tugiye twiganjemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ibi ni ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibi bicuruzwa bikaba byiganjemo imigati itondekanije mu kabati gakozwe mu rubaho.

Uyu ni umugabo wambaye umupira, inyuma ye hakaba hari abandi bantu benshi, bose bakaba bari mu nzu y'ubucuruzi cyangwa se iduka rigiye ririmo utubati tureture turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Uyu ni umukobwa wambaye ikote ry'ubururu n'umupira w'umweru, akaba ari mu iduka ririmo utubati tugiye turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.